Ibikombe byiganjemo imirama yihitakishwa mu gutera imbuto, hariho imirama ya karoti, hakabaho imirama y'ibitunguru ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye hamwe na pavuro.

Umugabo uhetse ipombo yambaye imyenda yabugenewe, yipfutse umunwa ndetse n'uturindantoki, arimo kugenda atera umuti mu bigori kugira ngo yice udukoko, aha ngaha ni bwa buryo baba bakingira kugira ngo ngongwa bazice zive mu bigori.

Umufuka urimo ifumbire mvaruganda yifashishwa mu gutera ibishyimbo, ibigori, ndetse n'indi myaka, mu rwego rwo kugirango wongere umusaruro. Iyi ngiyi ni ifumbire ikomoka mu ruganda.

Imifuka igera kuri ine ikaba irimo ifumbire mvaruganda ya NPK, bakaba bayifashisha mu gutera mu mirima igiye itandukanye kugira ngo babashe kongera umusaruro nk'uko abahinzi baba barahinze bashaka kugira ngo bunguke.

Ahantu hari akabati karimo imiti igiye itandukanye, hahandi twita muri farumasi ushobora gusanga umuganga w'amatungo akaba yaguha imiti ushaka, cyangwa se mu gihe ushaka kujya kuyishyira mu mirima ushaka nko kwica udukoko.

Umurima urimo ibigori bisa naho byahuye n'izuba bitatanze umusaruro uhagije, bikaba bigeze igihe cyo kwera, hakaba aho biri hameze nkaho hahinze, ku ruhande hino hakaba hari akarima karimo umucaca.

Uburyo bwo kurema ifumbire hifashishijwe itaka risanzwe, bakarihuza n'iyindi fumbire y'imborera, bakaba bagenda baritubura ubundi ifumbire rikaza kuba ryinshi, bakoresherije ifumbire nyirizina ndetse n'ubundi butaka.

Aho uwo ushobora kujya kugurira ibikoresho bye bitandukanye. ahangaha ni umuveterineri, ndetse akoresha uburyo bw'ikoranabuhanga, akaba ari umufatanyabikorwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Aho hariho ibikoresho, amapombo ndetse n'ibindi.

Ibase irimo ifumbire mvaruganda bagiye basukamo ndetse irajya gusa n'umukara, biteguye kujya kuyishyira mu murima kugira ngo babashe kugira umusaruro uhagije kuko ifumbire yongera umusaruro.

Ikiganza cy'umuntu ufashe imbuto yiteguye kuba yajya kuyitera, arimo kugenda ayisuzuma, ari nako areba, gusa urebye neza bimeze nk'aho atari imbuto, ahubwo akaba ari ifumbire, rya rindi rikomoka mu ruganda.

Iduka ririmo amoko agiye atandukanye y'imiti hakaba higanjemo imirama y'imbuto zigiye zitandukanye, harimo uwa karoti, pavuro ndetse hakaba harimo na betarave, aha ngaha ni ho abahinzi bagurira imbuto.

Umurima urimo abantu benshi barimo kugenda bahinga biganjemo abagore, hakaba hari n'andi masuka, ndetse bakaba barimo kugenda bahingira hamwe banaganira, ndetse ni umurima uhinze ku buso bunini cyane.

Umugabo uri mu iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye yambaye indorerwamo ndetse ategereje abakiriya baza kugura imiti baba biganjemo abahinzi hakabamo kandi abantu bose bashaka guha n'amatungo ibinini.

Agace karimo amaduka agiye atandukanye yiganjemo iduka ricuruza ibikomoka ku miti cyangwa se kuri farumasi, aho umuntu ashobora kujya kugura imiti yo gutera udukoko cyangwa se iyo gushyira mu bihingwa.

Abagabo babiri, umwe ahetse ipompo barimo kugenda batera umuti, umwe ni umugabo yambaye ingofero itukura, yambaye na bote, ku ruhande kandi hariho akayira gacamo amazi agenda agana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Abagabo, abagore barimo kugenda bacukura umuringoti kugira ngo uzajye ubika amazi mu gihe k'izuba. Aba ngaba bahinga ubwatsi kuko aha ngaha hariho ubwatsi kandi bwa kizungu bw'urubingo.

Iduka ririmo imiti y'amoko agiye atandukanye yiganjemo ibiti ihabwa amatungo ndetse n'indi aborozi bagura n'abahinzi kugira ngo bayitere mu myaka mu gihe ari kwica udukoko twibasiraye imyaka yabo.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo abagore, abagabo, bari mu murima w'ibigori, aha ngaha ni kwa kundi bahinga mu makoperative, aho barimo gukorera hamwe bagenda babagara ari nako bareba ko ibihingwa byabo bimeze neza.

Iduka ririmo akabati kakaba karimo imiti y'amoko agiye atandukanye, ku ruhande hakaba higanjemo imiti cyangwa se amacupa aba arimo imbuto umuntu ashobora gutera cyane cyane imbuto z'imboga, hakaba harimo karoti, amashu, pavuro n'izindi.

Iduka ririmo akabati, kakaba karimo imiti y'amoko agiye atandukanye, yiganjemo iyifashishwa mu gutera imyaka, hakaba hari kandi n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gushora inka.

Ahantu hari ifumbire ryajemo iminyorogoto, aho barimo kugenda baritegura kugira ngo ribashe kubora ubundi bazariteremo ibihingwa rimaze kuba neza ryarahoze, barimo gukora ifumbire ry'imborera.

Aho ushobora kugurira imiti igiye itandukanye cyane cyane hifashishwa mu buhinzi, hariho kandi kuba bacuruza n'amarangi ndetse na nimero ushobora kubashakiraho, ndetse akaba ari abafatanyabikorwa mu buhinzi.

Umugabo ufashe utuntu mu ntoki tumeze nga tungurusumu, arimo kugenda atwitegereza turatonoye, bagiye baducagagura, dufite ibara ry'umweru ndetse atubumbatiye mu biganza byombi.

Igiti kifashishwa mu kuvurwa kimeze nk'umuravumba, gusa biratandukanye, kuko iki giki, nk'igifite ibibabi byibushye kandi gifite n'ibintu bimeze nk'ubwoya, ndetse kandi iki ngiki bakita igicunshu.

Amacupa arimo ubwoko bugiye butandukanye bw'imbuto zishobora guterwa cyanecyane buba ahantu bahinga imbuto n'imboga, ahangaha harimo amashu hakabamo pavuro, hakabamo ndetse n'izindi mboga zigiye zitandukanye.

Umuntu ufashe ifumbire ririmo iminyorogoto, ndetse ni bwa buryo bwo kubika neza ifumbire cyangwa kuritunganya, kugira ngo bazariteremo ibihingwa rimeze neza kandi ryarabashije kubora, kugira ngo babone umusaruro.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'insina ndetse hakaba harimo abahinzi barimo kugenda bayora ifumbire, ndetse n'aho bagiye bakora ibirundo bigiye bitandukanye by'ifumbire, barimo kugenda barijyana mu bice bigiye bitandukanye.

Iduka amwe muri yayandi acuruza imiti ndetse kandi hakaba hari aho umuntu ashobora kubaza umuganga w'amatungo cyangwa se veterineri akaba yamufasha mu gihe yagize ibibazo bigiye bitandukanye cyane cyane bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi.

Umurima uriho imishangara ndetse bigiye bisashe hasi, hakujya hariho ibigori ndetse bigaragara ko bitoshye, ikirere kirasa neza, ni mu gihe cy'impeshyi ndetse n'ibyatsi biratoshye, bigaragara ko imvura imaze igihe irekeye kugwa.

Umurima uhinzemo ibisheke ndetse ibyinshi bifite ibara rijya gusa n'umweru n'ibyatsi byuyumaganye ndetse kandi ibi ni byabindi bita ibya kigande, biri hantu izuba risa naho ryacanye kuko ibyati biriho byuyumagaye.

Urutoryi rufite imbuto zigiye zitandukanye ndetse nyinshi cyane, aha ngaha rwahaze ifumbire, ndetse kandi intoryi zihari zirasumba amababi, aha ngaha rurasasiwe kandi ruhaze ifumbire.

Umugore ukora akazi ko guhinga inyanya, arimo kugenda asarura arebamo izimaze guhisha, zikeneye kuba zajyanwa ku isoko hanyuma akazijyana. Arimo kugenda asarura zimwe na zimwe ari nako agenda aseka.

Ibirayi bigeze igihe cyo kuyanga, ndetse aha ngaha bimeze neza bitewe umuti, byagiye bifatana, aha ngaha bikunze kuboneka mu nshe za Nyaruguru, cyangwa se mu bice byo mu burengerazuba no mu majyaruguru muri za.

Ubuhinzi bugezweho bwa pavuro aho hahinzemo amoko agiye atandukanye ya pavuro, aha ngaha ni uburyo bwo guhinga imboga n'imbuto ndetse ni bimwe mu bintu bitanga amafaranga cyane muri iki gihe.

Agace karimo igihingwa ngengabukungu gikunzwe cyane mu Rwanda kuko cyoherezwa hanze bacyita icyayi, gikunze kuboneka mu duce twa Nyaruguru ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye byo mu majyaruguru n'uburengerazuba by'u Rwanda.

Ibirayi birimo kugenda bisarurwa, aho byose byize ku kirayi kimwe, uko bigera kuri bitandatu, bishobora no kurenga bitewe n'uko byishimiye ubutaka, ahantu heza cyane hatanga umusaruro uhagije.

Akarima k'igikoni karimo imboga zasaruwe ndetse n'izisigayemo zarashaje, hari hahinzwemo amashu ndetse kandi hariho ibindi byatsi byameze birebire cyane bimeze nanone nk'amashu.

Umurima uhinzemo ibirayi bagiye babyuhira, birabura igihe gitoya bikaba byasarurwa, hanyuma umusaruro wabyo ukaba wajyanwa ku isoko, hanyuma abaturage bakabasha kuwugura.

Ibyatsi by'amoko agiye atandukanye byifashishwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ndetse kandi hakaba hariho n'insina iri iruhande, ahangaha ni mu murima w'umuturage.

Imineke ihiye bagiye bamanyura ku katoki bita akamara, kararyoha ndetse iyi mineke yamaze kuba umuhondo kubera ko ihishije, yageze igihe cyo kuba yaribwa niyo mpamvu yagiye yihungura.

Umurima urimo insina, harimo zimwe zatangiye kuzana ibitoki, nyinshi harahingiwe, ndetse kandi zifite ibitoki, aribwo bitangiye kwana, ndetse kandi mu minsi iri imbere, uyu muntu azaba afite umusaruro uhagije.

Igiti cy'ikawa itoshye ndetse ifite imbuto zimaze gutukura ndetse ikawa ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu bitanga amafaranga, aho umuhinzi wayo ashobora kubona amafaranga menshi cyane buri gihe yajyanye umusaruro we ku isoko.

Umurima urimo ibigori byenda kugera igihe cyo kwera, ni umuririma wafashwe neza kuko harimo ifumbire, ibigori birimo birasa neza birasa icyatsi bigaragara ko byahawe ifumbire ihagije.

Ahantu hahinze igiti kinini cyane cy'ikawa ndetse hasi hakaba hariho imyumbati, hakaba hariho n'ibindi bimera bigiye bitandukanye ndetse ikimera bita ikawa kigirira akamaro kanini mu Rwanda kuko ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Umurima urimo icyayi ndetse hakaba harimo uduce tugiye dutandukanye, harimo akayira kagiye gatandukanya imirima, aho buri wese agenda yita ku murima we bakurikije uko bagiye bayikata.

Umurima urimo amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse hariho n'aho bagiye bajugunya amasashi ndetse n'iy'amacupa n'ibindi byatsi, hateyemo kandi n'amateke ashobora kwifashishwa mu gutegura ifunguro rya buri munsi.

Umurima munini urimo inanasi ndetse aha ngaha bakoze umushinga wo kugurisha imbuto z'inanasi, aho ushobora kuza kugura ku giciro kiza cyangwa se igihe ukeneye nyinshi cyane aha ngaha ushobora kuza kuzihagurira.

Umurima urimo insina ndetse kandi hariho ibitoki hamwe na hamwe ariko bitari byagera hagira igihe cyo kwera, hakurya kandi hariho ibihu, aha ngaha ni mu murima w'umuturage aho akora ubuhinzi bujyanye n'ibitoki.

Umusaruro w'ibirayi; aho biri mu mufuka bifite ibara ritukura, ndetse ibi birarayi ni binini ku buryo umuntu ashobora kubitekamo agafiriti cyangwa se akaba yabitekamo sote ku bantu babikunda.

Umurima uteguye neza, bwa buryo baba bagiye gutera imbuto zigiye zitandukanye, cyane cyane nka karoti, aha ngaha bagiye baca imirongo bazagenda bashyiramo imbuto, aho bigaragara ko ahandi zimwe zatangiye kumera, aha ngaha igisigaye ni ukuzibagarira.

Imbuga yitegeye ahantu bororora ibiti, aho ni ho bita muri pipiniyeri hakurya hakaba hariho utuzu twubatse, bagenda bashiramo ibiti, barimo kugenda borora kugira ngo bizaterwe, ari na ho bashobora no kubigurira.

Inkoko isa nkahoa irwaye kuko ijisho ryayo ritarimo kureba neza ndetse ifite n'ubwoya busa naho buri kureba hejuru. Ifite ikibazo ikeneye kwitabwaho kuko imeze nk'iyamaze gupfa.

Agakarito karimo imiti, ndetse hariho icupa, ndetse n'agakarito byavuyemo. Kariho amagambo yanditse asobanura ubwoko bw'uyu muti kugira ngo uwo ari we wese ugiye kuwugura, abashe kumenya umuti uwo ari wo.

Inkwavu enye zifite ibara ry'umweru ziri mu kazu, harimo ubwatsi bagiye bazihereza, ku ruhande hariho ipine ry'imodoka, ari ho hubatse aka kararo karimo izi nkwavu.

Urukwavu runini rufite amatwi maremare ruri kumwe n'utwana twarwo tugera kuri turindwi, harimo kamwe k'umweru cyane hakabamo n'utundi dukwavu tugiye dusa narwo turimo kurebana ku ruhande rumwe ndetse no ku rundi ruhande turateganye.

Ahantu hari icyapa kiriho ibisobanuro bigiye bitandukanye, byanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse ubururu, hakaba hariho n'ibyanditse mu ibara ry'umukara bagenda batanga ubusobanuro bugiye butandukanyekanye.

Amoko y'imiti agiye atandukanye, yiganjemo ibinini bihabwa amatungo mu bihe bigiye bitandukanye, ashobora guhabwa inka bitewe n'ikigero runaka cyangwa se ibyo ikeneye kuko ni amoko agiye atandukanye.

Imiti iri mu macupa agiye atandukanye harimo rimwe ririmo umuti ujya gusa n'umukara. Irindi rikaba rifite ishusho y'umweru yifashishwa mu guhabwa inka ndetse n'andi matungo agiye atandukanye.

Ubworozi bugezweho, aho ahantu hororewe ingurube ndetse ni za zindi zigezweho. Aho zirimo amoko agiye atandukanye, yiganjemo izifite budomagure ndetse n'andi mabara. Aha ngaha ni bwa buryo bugezweho, aho butanga umusaruro ushimishije.

Inka iryamye ahantu hasi ndetse bigaragara ko hadasasiwe, hakaba ari mu gitaka ifite amabara agiye atandukanye ay'umweru n'andi ajya gusa n'umuhondo, ndetse ikaba yakojeje umunwa mu itaka.

Imiti iri mu macupa maremare, ipfundikije imifuniko y'imyeru, ku buri icupa handitseho amagambo agiye atandukanye ari mu rurimi rw'Icyongereza. Aha ngaha ni mu maduka bacururizamo imiti y'amatungo, ha handi twita muri farumasi.

Imiti iri mu tujerekani, harimo kamwe ka litiro eshanu ndetse n'akandi ka litiro nk'ebyiri, hariho n'indi iri mu gacupa ndetse hasi hateretseho igitabo kiri ku meza aha ngaha imeze nka ya miti yifashishwa mu kuvura cyangwa se iterwa mu myaka.

Itsinda ry'abantu benshi ryiganjemo abasore ndetse n'abagore barimo kugenda bakora harimo kugenda bahinga ndetse bahingira hamwe undi arahagaze abandi barimo kugenda barandura ibyatsi abandi bari ku ruhande barimo kugenda bitegereza.

Itsinda ry'abantu benshi ryiganjemo abana ndetse na mama wabo barimo kugenda bacukura itaka no kugenda babumba amatafari, umwe ari gukata, abandi na bo bagiye bazana amazi agiye atandukanye kugira ngo babashe kuba babumba amatafari.

Umurima urimo ibigori byenda kwera ndetse ibyinshi muri mo byareze bikaba hariho umuntu urimo kugenda abikorera isuku, cyangwa se kugenda ahinga mu mpande zirimo ibigori kugirango abashe guteramo indi myaka.

Isambu nini, irimo abantu babiri barimo guhinga, umugore ndetse n'umugabo, aho barimo kugenda bahingira imyumbati mu gice cyo hepfo, hariho umuceri uhinzemo ahantu hari igishanga, ndetse aha ngaha hariho n'akayira umuntu ashobora kumanukiramo.

Umugore wunamye hamwe n'insina, arimo kugenda abiba imbuto zigiye zitandukanye, inyuma ye hari insina, ndetse hakurya hakabaho n'izindi zigiye zimukikije, ahantu ari, hari igiti cya avoka kigaragara ko kitameze neza gisa n'icyenda kuma.

Urungano rugizwe n'abakobwa batatu harimo n'umusore umwe. Barimo kubaka akarima k'igikoni twa tundi bateramo imboga z'amoko agiye atandukanye, kugira ngo babashe kurwanya imirire mibi.

Umurima urimo ibirayi barimo kugenda babibagara ndetse byenda kugira igihe cyo kwera kuko bigeze cya igihe cyo kuzana uruyange, ni umurima uhinze ku buso bunini aho uyu muntu ashobora kuzabona umusaruro uhagije.

Abagabo bakora umwuga w'ubuhinzi bakaba barimo kugenda bategura ubutaka, barimo kugenda basasira imbuto yabo kugira ngo ibashe kumera neza, barimo kugenda bayifasha, kugira ngo mu gihe cy'izuba, ibe idashobora guhura n'ikibazo cyo kubura amazi.

Umugabo urimo guhinga, aha ngaha arimo kugenda ahinga wenyine, yakuyemo imyenda igice cyo hejuru ndetse arimo kugenda atabira, arimo kugenda acocagura kugira ngo ibihingwa bizamere neza.

Umugore urimo gukora ahantu mu isambu imbere ye hariho igiti cya avoka inyuma ye hakaba hari urubingo, ndetse kandi harimo n'ibigori arimo kugenda ategura umurima kugira ngo azabashe kuhashira...

Ahantu hatunganyirizwa imbuto y'ibiti hakaba harimo amoko agiye atandukanye, harimo bimwe bajya bashyira mu bihoho kugira ngo bazabashe kubitera bizabemo ibiti binini cyane mu gihe runaka.

Umugabo w'umuhinzi akaba afite akajerikani gatoya nk'aka litiro ebyiri, bimeze nka twa tundi tuba turimo imiti yifashishwa mu guterurwa mu myaka, akaba yambaye ingofero y'ubururu, akaba ahagaze mu murima we.

Abagabo babiri b'abahinzi bafite amasuka, umwe afite uruhara ndetse yariyogoshesheje amaraho, undi akaba yambaye ingofero y'ubururu, yambaye itiriningi, ndetse akaba yambaye na bote.

Umukobwa uri kumwe n'abandi basore barimo kugenda bahinga, bari kugenda barandura ibyatsi bimaze igihe, bitagira umumaro ndetse bakagenda bateraramo ibifite umumaro ndetse barimo kugenda batangira guhinga.

Itsinda ry'abantu benshi barimo kugenda bakora amaterasi y'indinganire barimo kugenda bakorera hamwe, aho basoje bakahimuka ndetse bakagenda bafashanya mu gutangira ahandi hashyashya, barimo kugenda barwanya isuri.

Umugore uri mu murima w'intoryi, arimo kugenda azikusanya ari nako azisoroma azishyira mu ibase, hanyuma akagenda azikusanya zaba nyinshi akagenda akajya kuzigurisha.

Abagore, abasore ndetse n'urubyiruko, harimo n'umwana wambaye agakabutura ndetse n'utubodaboda tw'umweru, barimo kugenda bakora isuku imbere y'imbuga, aha ngaha ni mu gahanda aho barimo kugenda baharura ibyatsi bakora amasuku.

Itsinda ry'abantu ryiganjemo abasore n'abakobwa barimo kugenda baca umuringoti, barimo kugenda bakuramo itaka kugira ngo amazi azabashe gutambuka mu gihe imvura izaba yaguye cyangwa se mu gihe amazi yabaye menshi mu misozi.

Umugabo ufite ibintu bimeze nk'ibitsinga arimo kugenda akurura, imbere ye hari ahantu hari imbuto zigiye zitandukanye zihinze, aho arimo kugenda azisasira kugira ngo zitazicwa n'izuba, yambaye ingofero ndetse ahetse n'ibindi bintu.

Abagore bagera kuri batatu barimo guhinga, barigukubita isuka barangiza bakaganira agati kagaturika akandi kakamera. Hanyuma bakagenda babara inkuru z'ibintu bazi ndetse cyane cyane ibibera mu ngo.

Umusaruro w'ibigori wakusanyirijwe uri mu mifuka, iteguye kugira ngo bawujyane ku isoko, urimo impungure bagiye bahungura kugira ngo babashe kubigeza ku isoko cyangwa se mu nganda, ibashe gutunganywa bikurwemo akawunga.

Icyumba kirimo ibirayi byamaze gusarurwa, birumutse ni hahandi biba bitegereje ko abantu baza kubigura, bakabijyana mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu nyuma yuko baba bamaze kubigura.

Agatsinda k'abantu biganjemo abagabo, abagore ndetse n'umwana hakurya hariho igare barimo kugenda banika umuceri bawushyira ku mahema no kugenda bawusanza kugira ngo ubashe kuma bazawutunganye.

Ububiko burimo imifuka igiye itandukanye yiganjemo imifuka y'imihondo ndetse hakamo n'indi y'ibara ry'umweru, aho aha ngaha ari mu ruganda, aho baba bamaze gutunganya umuceri cyangwa se ibindi bihingwa hanyuma bakabishyira ku isoko.

Itsinda ry'abagore ndetse n'abagabo barimo kugenda banika imyaka ryiganjemo ibigori barimo kugenda babishakira izuba, aha ngaha ni kwa kundi abantu bibumbira mu makoperative kugira ngo babashe gukusanya umusaruro ndetse no gukorera hamwe.

Agace karimo ibihingwa bigiye bitandukanye byiganjemo insina ndetse hakaba hariho n'ibiti birebire bibiri bya gereveriya, hakaba hariho naho bagiye bacukura imirindasuri kugira ngo bagende barwanya isuri.

Aho banika umusaruro w'ibigori wagiye ukusanywa wiganjemo ibigori bimaze kuma, hariho n'abaturage barimo kugenda babikusanya banabyitaho, kugira ngo barebe ko umusaruro wabo watunganywa ukajyanwa mu ruganda.

Ububiko burimo imifuka myinshi igiye itandukanye yiganjemo iy'umuceri, aha ngaha hariho n'abagabo babiri bambaye imyenda yabugenewe abakozi bambara mu gihe barimo gukora akazi, yambaye isarubeti ya kaki undi yambaye isarubeti y'ubururu.

Isoko ririmo ibitoki byinshi cyane bifite inkondo ndende cyane zigiye zigoronzoye, ndetse aha ngaha ushobora kuza kubigura mu gihe ushaka byinshi cyane cyane abantu bagiye kubigurisha, higanjemo iby'imineke ndetse ibyinshi birasa.

Umurima urimo ibigori bimaze kwera, aho bagiye bakuramo amababi hagasigara ibigori gusa, ndetse kandi harabura igihe gitoya bigasarurwa kuko byamaze kuma, igisigaye ni ukuba babishyira ku isoko.

Icyatsi kigomba kwitonderwa bita umukoni kuko gishobora gutarukira mu maso amazi yacu akaba yatuma umuntu yangirika, akaba yabasha guhuma cyangwa se agahura n'ubundi burwayi bugiye butandukanye.

Umurima urimo insina zifite isuku ndetse kandi inyinshi muri zo zenda kwera. Aha hantu ziri ni urutoki runini cyane ku buryo umunyirarwo abasha gukuramo umusaruro uhagije.

Igiti kiri ahantu mu murima rwagati aho gifite ibice bimwe biri gushibuka ndetse hakabaho n'ibindi biti birebire. Ibi biti kandi bikunze kugira impumuro itari nziza ndetse kandi inyuma hariho ibigori bihinze aho aha ngaha iki giti kiri mu murima.

Agashyamba karimo ibiti bikuze bishobora kuba byatemwa bikavamo imbaho ndetse hakaba havamo n'ibyo gucana, birasa nk'aho bimaze gukura bigeze igihe cyo kuba byasarurwa, bikaba byakoreshwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Ishyamba ririmo igiti kirekire, gisa nka gereveriya, ni kinini cyane gishobora gukorwamo imbaho cyangwa se kikaba cyakwifashisha mu bwubatsi ndetse kandi ushobora no kugikoramo inkwi ariko iyi iboneka mu mashyamba ya leta.

Ikimera cyifashishwa cyane cyane igihe barimo gukora ubusitani cyangwa se jaride bacyita umukindo, ikimera gituma ahantu hasa neza cyane, ukabona ko hateguye bikunze kuboneka ahantu hahurira abantu benshi.

Umurima urimo ibyatsi bigiye bitandukanye, bikaba byiganjemo ibyimejeje, hakurya hakaba harimo ibiti, aha ngaha ni ahantu mu ishyamba, hakaba harimo amoko agiye atandukanye y'ibyatsi byagiye byimeza.

Akayira gatoya gakikijwe n'indabo ziteye mu kajagari, aha ngaha ntabwo haheruka gukorerwa umuganda, hagiye hameramo ibyatsi bigiye bitandukanye ndetse kandi bidafite ishingiro kuko haba hakeneye kugira ngo hitabweho.

Akarima karimo amoko agiye atandukanye y'indabo yagiye aterwa ndetse kandi hariho n'ahantu hari umucaca hakaba hari n'amoko, agiye atandukanye y'ibiti yifashishwa mu gukora ibintu runaka.

Ibiti bikunze kuboneka cyangwa se icyapa, kigaragaza ahantu hari ishyamba, aho baba bagaragaza ibiti cyangwa amoko yabyo agiye atewe, ku butaka runaka, bashiraho uko ingano ingana, ndetse bagashiraho n'uko ibiti byitwa.

Ahantu hari ibyatsi byinshi hameze nk'aho ari mu ishyamba, aho hashobora kuba harimo n'inyamaswa, umuntu agomba kuyitondera mu gihe arimo kuhagenda ku buryo adashobora guhura n'inyamaswa yamugirira nabi.

Agashyamba karimo ibiti by'amoko agiye atandukanye yiganjemo iby'inturusu ndetse n'ibindi bibyibushye cyane, aha ngaha umuntu akaba yabitema agiye kubikoresha mu buryo bugiye butandukanye, ari mu buryo bw'imbaho cyangwa se mu buryo bwo kuba yabicana.

Isoko ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye byiganjemo betarave, hakaba hariho amaronji, indimu ndetse n'ibinyomoro aho umuntu ashobora kujya kugura imbuto, cyane cyane akagura akurikije izo akeneye.

Mu gasoko, aho hari imboga zigiye zitandukanye ziganjemo intoryi zigiye zipanze ku mufungo, ndetse hariho na karoti imifungo igera kuri itanu, ndetse intoryi na zo ni imifungo igera kuri ibiri, ndetse inyinshi muri zo zatangiye guhisha.

Isuku ririmo ibitunguru bigiye bitandukanye byiganjemo ibibyibushye ndetse hariho umunzani ku ruhande hariho abagore, barimo kugenda bagura, aha ngaha ni mu isoko rigari aho umuntu ashobora kugura ibyo akeneye, cyane cyane ababa bagiye guteka.

Agati gasa naho kumye, kari ahantu mu mucaca. Aha ngaha ni bwa buryo bakoramo amajaride cyangwa se ubusitani, batera indabo ahantu hagiye hatandukanye. Aha ngaha bashaka gukora ubusitani.

Agataro kariho imineke bita kamara. Igiye iciye mu maseri cyangwa se mu bice, aho umuntu ushobora kugura yagura buri seri bitewe n'igiciro cyagenwe cyangwa akaba yagura umwe umwe.

Iduka ririmo imboga ndetse bagiye bafunga mu mifungo igiye itandukanye, ishobora kugurwa n'abantu b'ingeri nyinshi, haba abanyeshuri ndetse n'abaturage batandukanye, aho bashobora kuzifashisha mu gutegura ifunguro.

Isoko ririmo amoko agiye atandukanye y'imboga yiganjemo cyane cyane imyungu cyangwa se ibihaza, hakurya hariho n'ibirayi, hariho n'abantu benshi barimo kugenda bacuruza biganjemo abaguzi ndetse n'abari kugurisha.

Ahantu hari imbuto z'amoko agiye atandukanye higanjemo ibinyomoro amaronji, hakaba ariho umuntu urimo kubicuruza ndetse ku ruhande hakaba hari umunzani w'umucuruzi urimo gucuruza izi mbuto.

Umurima urimo intoryi ndetse hakabamo n'amapapayi. Aha ngaha birasasiye ndetse hagiye harimo n'utundi tumera tugiye dutandukanye twiganjemo amateke ndetse hariho n'urubingo ku mpande.

Ikibuga cyegereye ahantu hari umurima, hakurya hakaba hariho amazu, ni ahantu hadahingwa ndetse hashobora kuba hagendwa n'imodoka kuko ni ahantu hitaruye cyane.

Agatebo karimo inyanya zihishije cyane ziratukuye, izi ngizi zifite isosi, uramutse uzitekesheje wakora isosi imeze neza cyane, aha ngaha ushobora kuzigura ku isoko cyangwa se uka wajya kuzigura mu murima.

Ikimera cya avoka aho gikikijwe n'ibiti bagiye batema, ibiti by'imyumbati, aho bagiye bahingira ivoka kugira ngo ibashe gukura kuko na zo ari kimwe mu biti bitanga umusaruro kandi bigatanga n'amafaranga.

Umurima urimo imbuto bita ibinyomoro, ndetse gifite imbuto zikiri icyatsi zitaragera igihe cyo kuba zasarurwa kubera ko zitari rizahishywa, ndetse ahangaha cyahawe ifumbire ku buryo gifite umusaruro uhagije.

Agace karimo amoko agiye atandukanye y'indabo aho amwe afite indabo zitukura, hakurya hakaba hari n'ubundi bwoko. Hakaba hariho sima ndetse ahantu izi ndabo ziri hakaba hari sima ifite amabuye ayubatse.

Umurima uhinzemo imboga z'amashu, aho bagiye bayasasira ndetse kandi hakurya hariho imirima iri ku gasozi hasa n'aho bakoze amaterasi y'indinganire ku buryo bashobora kurinda isuri mu buryo buboroheye.

Urubyiruko rugizwe n'abasore babiri ndetse bakora ibintu by'ubukorerabushake bahagaze ahantu hahinze imboga ziganjemo beterave hakaba hariho n'ibinyomoro byatangiye guhisha baririmo kugenda bagaragaza umusaruro wabo.

Imboga bita beterave usanga zitukuye mo imbere ndetse kandi aha ngaha ni aho bagenda bazigurishiriza, hakaba hirya hariho karoti, hakaba hariho n'intoryi cyangwa se ibibiringanya na byo byifashishwa nk'imboga.

Akarima k'igikoni karimo amoko agiye atandukanye, imboga higanjemo dodo, imbwija ndetse n'ibindi, kikaba kifashishwa mu gutegura ifunguro ryuzuye kuko imboga ari kimwe mu birinda umubiri indwara.

Amavoka agera kuri abiri, akaba asa naho ahiye cyane, ageze igihe cyo kuba yaribwa ku buryo umuntu ashobora kuyigura, akaba yayikoresha ku ifunguro rye, kuko avoka zigira intungamubiri nyinshi cyane.

Umurima urimo imboga z'amashu zenda kugera igihe cyo gusarurwa, ziteye ku murongo ndetse kandi hasi harasasiye, ku buryo zidashobora guhura n'udukoko duturutse hasi ndetse kandi umuntu akagira umusaruro.

Akarima karimo imboga z'amoko agiye atandukanye higanjemo dodo ndetse hakabamo n'intoryi, aha ngaha ni babandi bakora umushinga wo guhinga imboga bakazigurisha mu masoko agiye atandukanye yo mu Rwanda.

Amoko y'indabo agiye atandukanye yagiye aterwa kugira ngo aha hantu haze kuba hasa neza, hakurura abantu bahagenda. Ni indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi zikunzwe cyane.

Umuntu ukora ubuhinzi bwo kuba yahinga urusenda, yagiye arusasira kugira ngo bibe neza, kandi ruse n'urwitaweho rubashe gutanga umusaruro uhagije.

Umugabo wahungitse imbuto arimo kugenda akuramo utwatsi, ndetse ku ruhande yagiye ahasasira ku buryo nta bindi byonnyi bishobora kwinjira muri aka karima, aha ngaha ni imboga cyangwa se intoryi ashobora kuba agiye gutera ahandi hantu.

Igiti kiriho ibinyomoro ndetse bigaragara ko amababi yamaze kuma. ahangaha hariho ibinyomoro bitarahisha, harabura igihe gitoya bikaba byaramaze gutukura ku buryo umuntu yabasha kuba yabirya.

Umugabo w'umuhinzi w'inyanya arimo kugenda atera umuti, ahetse ipombo ndetse kandi yambaye ingofero arimo kugenda anyanyagiza umuti kumababi kugira ngo ibihingwa bize kumera neza kandi bizatange umusaruro.

Umurima uhinzemo igihingwa bita inoryi ndetse bihinze ku buryo bwinshi, aho hariho aho bagiye basasira intoryi ndetse kandi zenda gutanga umusaruro kuko hatangiye kuzamo rumwe rumwe.

Umuntu ukora ubworozi bw'ibihumyo ndetse ni umuhinzi arimo kugenda abitera imiti kugira ngo bibashe gukura, arimo kugenda areba umusaruro we anagenzura ko imeze neza, aha ngaha ni mu migina y'ibihumyo.

Akayira gakikijwe n'indabo ndetse kandi zitaweho, ni ahantu hateye sima, ururabo rukaba rukikijwe n'ibyatsi bita pasiparumu ku buryo iyo bikuze bigenda bihahuriza hamwe maze ugasanga ubusitani burasa neza.

Umugore urimo gucururiza ku gatanda ndetse afite inyanya nyinshi cyane, akaba afite n'utundi tuntu tugiye dutandukanye mu kadobo, mu dukarido ndetse no mu majage, harimo utuntu twinshi umuntu ashobora kuza kugura, ndetse ku ruhande rwe hariho n'igare.

Agace karimo ibiti bigiye bitandukanye ndetse ibiri mu mpande aho hari kimwe kimwe, bigaragara ko aha ngaha benda kuhakora agashyamba, harimo ibiti bigye bitandukanye.

Akarima karimo imboga z'amashu zimwe ziri muri zo zenda kwera, ahantu ziri hariho agasozi hakurya hari y'ibyatsi biri mu murima ahantu hari ubutaka budaheruka guhingwa.

Ahantu hari ubusitani bwifashishwa cyane cyane mu gutuma ahantu hasa neza hakurya hakaba hariho umucaca, ndetse kandi hakaba ariho aho umuntu ashobora kwicara mu gihe yumva ashaka gufata akayaga.

Ubusitani burimo indabo z'amoko agiye atandukanye ndetse aha ngaha hariho n'igipangu kirekire cyubakishije amatafari cyagiye kimenaraho y'amoko y'indabo agiye atandukanye, yayandi agenda arandaramda ndetse izi ndabo bigaragara ko zitabwaho.

Imboga bita kokombore aho zifashishwa mu gutegura ifunguro nka salade cyangwa se mu gihe barimo kugenda bategura ibyo kurya. Aha ngaha biba bimeze nk'ibihaza cyangwa se imyungu, aho bikunze guhingwa cyane cyane n'abantu bakunze gukora umwuga w'ubuhinzi w'imbuto.

Isoko ririmo imbuto z'amoko agiye atandukanye ziganjemo imyembe, inanasi, amaronji, amatunda ndetse hariho umumama urimo kugenda ayacuruza n'abaguzi bakagura.

Uturima turimo imboga zigiye zitandukanye ziganjemo karoti ndetse n'izindi, hakurya hariho imirima ibigori byenda kwera, ku ruhande kandi hariho umusozi ndetse no hakurya.

Ikimera bita ikibiringanya kiba kimeze nk'urutoryi, aha ngaha hariho umuntu urimo kugenda akireba, kigeze igihe cyo gusarurwa, aha ngaha kirasasiwe ndetse bigaragara ko cyitaweho cyane, ni kimwe mu mboga.

Ahantu harimo ubusitani burimo indabo zigiye zitandukanye ziganjemo ibifite amababi ameze nk'ay'insina ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho ku ruhande hariho aho umuntu ashobora kwicara hateye umucaca.

Ahantu hateye indabo, ni hamwe n'umuhanda, ndetse kandi indabo nziza cyane ziganjemo za zindi zishobora gukorwa nk'uruzitiro, akajya anazikata gake gake, hakaba n'izindi na zo zifite amababi maremare kandi asongoye.

Umugore urimo kugenda asarura ibihingwa bigiye bitandukanye, byiganjemo urubuto bita watermelon rugira amazi menshi mu igihe umuntu arurya, rukaba rufite mo imbere hatukura.

Umusaruro wakusanyijwe wiganjemo insenda ndetse hakaba harimo izitukuye cyane zabaye umuhondo ndetse hakaba harimo n'izindi z'icyatsi, zimaze igihe gitoya zimaze gusarurwa.

Umugabo ufashe imbuto cyangwa se imboga bita pavuro, zifashishwa cyane cyane nk'ibirungo zikaba zisa neza, ni pavuro zahawe ifumbire ndetse zikaba zibyibushye. Izi ngizi zifashishwa mu guteka inyama.

Ahantu hari amoko agiye atandukanye y'imboga ziganjemo karoti, imiteja, ibishyimbo, hakaba hari pavuro, imboga ndetse n'imbuto, hakaba hari pome, hakaba hari sereri ndetse n'avoka.

Ikibaya kirimo igishanga kirimo umuceri, hakurya hariho agasozi kariho amaterasi baciye y'indinganire ku buryo umuntu ashobora kugenda aringaniza cyangwa se agatunganya ubutaka bwe budatwawe n'isuri.

Ahantu hororerwa ibiti hakaba harimo amoko agiye atandukanye ya avoka, zikaba ziri mu mashashi cyangwa se ibihoho, ku buryo umuntu ashobora kubifata akajya kuzitera ntizume, kubera ko ziba zikoranye ubuhanga.

Umugore w'umuhinzi afite ibikoresho bigiye bitandukanye arimo kwifashisha avomerera izi mboga, arimo kugenda azivomere kugira ngo zibashe gutohagira maze zitatanga umusaruro, cyane cyane ibi bikorwa mu gihe cy'Impeshyi.

Umugabo w'umuhinzi w'ibigori afite itiyo ririmo kuvamo amazi, arimo kugenda anyanyagiza mu bice bigiye bitandukanye byo mu murima kugira ngo abashe kuhira imyaka ye itaza kwicwa n'izuba, kuko ari mu gihe cy'impeshyi.

Ikibaya kirimo imbuto z'amoko agiye atandukanye ndetse aha ngaha ni mu gishanga hariho igiti kinini cya avoka ndetse hakurya hariho uduce tugiye dutandukanye tugaragaza imirima y'abaturage, aho buri wese aba afite ahe.

Agace karimo imisozi aho hariho umurima uri hejuru uhinzemo ikimera bita icyayi, aha ngaha ni ubuhinzi ngengabukungu aho umuntu ahinga agambiriye kugira ngo abone amafaranga.

Agasozi kariho ishyamba ryiganjemo ibyatsi bigiye bitandukanye, nta biti bihari uretse ibyatsi byagiye bimera mu bice bigiye bitandukanye bigize kano gashyamba, aha ngaha ni bimwe mu bidukikije biba bigomba gufatwa neza.

Ikibaya kirimo amoko agiye atandukanye y'imboga ndetse harimo n'abantu benshi bari mu mirimo yabo igiye itandukanye, aho barimo kugenda bakora imirimo igiye itandukanye, hakurya hariho imisozi ikikijwe n'ibiti bigiye biteyeho.

Agasozi kitegeye amazu, ni ahantu mu gacyaro ndetse hakurya hari umujyi wubatsemo amazu agiye atandukanye, aha ngaha harasa n'ahadahingwa kuko ibimera birimo nabyo nta buzima bifite.

Ikibaya kinini cyane giteganye n'undi murima munini urimo imyumbati, hasi mu kibaya harimo igishanga kirimo umuceri. Aha ngaha harimo amazi menshi atuma uyu muceri ubasha kwera neza ndetse bakabona umusaruro.

Agasozi kariho imirima igiye itandukanye ndetse kandi hatuwe n'abantu bakeya, aha ngaha ni mu mirima y'abaturage, hanyuma hakaba hariyo umusozi urimo amasambu agiye atandukanye abantu bahingamo.

Udusozi tubiri duteganye tugizwe n'amaterasi y'indinganire, ndetse harimo abantu barimo kugenda bakoramo ibikorwa bigiye bitandukanye, ndetse kandi kuri buri murima hariho umukingo uteyeho ubwatsi, bashobora kuba bagaburira amatungo yabo.

Inzu ebyiri zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakajwe n'amabati atukura, zikaba ziteye sima, zikaba ziri ahantu mu gasozi cyangwa se agaturage gatuwe n'izindi nzu nyinshi kuko batuye ku mudugudu.

Ubutaka busa naho bwumagaye, hakurya hariho imyumbati ihinze, hakabaho n'ibijumba, n'ibindi byatsi bigiye bitandukanye, byagiye bimera ahantu mu nzira, ahangaha bigaragara ko ari mu gihe cy'impeshyi.

Inzu nziza y'umuturirwa ituye ahantu hari umugezi ndetse ahantu iri harazitiye cyane ku buryo umuntu atahita ava ku nzu ngo ahite agera ahantu hari amazi, ndetse kandi hariho agashami k'amazi ashamikiyeho.

Umurima uhinzemo ibyatsi aha ngaha ni mu kigo cy'amashuri ndetse hariho senyenge zishobora kubuza umuntu kuba yakwinjira hano mu gihe atabiherewe uburenganzira cyangwa se mu buryo bwemewe.

Agasozi kariho amatarasi ndinganire ku ruhande rumwe ndetse hakaba harimo n'ibyatsi bigiye bitandukanye hakabaho n'ibiti, aha ngaha ni agasozi kadahingwa kuko nta myaka ihari ubona ko yasarurwa.

Ikibuga kirimo ubwatsi butoshye ndetse hakaba ahandi hatariho ubwatsi, aho aha ngaha haboneka cyane cyane ahantuna hari ikibuga cy'umupira cyangwa ahantu hakunze kuhurira abantu benshi cyane, ndetse n'ahantu hari mu bigo cyane cyane ibya gisirikare.

Agasozi kariho amaterasi y'indinganire ku ruhande hariho inzira icamo n'abantu bagiye mu byerekezo bigiye bitandukanye, hahinzemo imyaka igeze mu gihe aho hahandi baba batangiye kubagara.

Imirima irimo abantu barimo guhinga barimo kugenda barima, hakujya hakabariho n'abandi bagiye batandukanye hameze nk'ahari gukorwa amaterasi ndetse na ku musozi barimo kugenda bakorera.

Ihene ziri ahantu mu murima, aho zigenda zororwa zirazitse, ba nyirazo bari buze kuza kuzitora mu masaha runaka, zamaze kurisha ndetse zamaze no guhaga ubwatsi.

Ingurube zigera kuri eshatu zifite amatwi agiye hejuru ndetse n'umunwa muremure, ni ndende za zindi za kizungu zifashishwa mu korora mu buryo bugezweho, zibasha gutanga umusaruro ushimishije.

Inka isa neza kandi y'umukara, irimo kugenda irisha ubwatsi, irabyibushye bigaragara ko ifite amezi. Irimo kugenda irisha ubwatsi basutse hasi ndetse kandi ifite n'umugozi mu ijosi uyiziritse ku giti ku buryo idashobora gusohoka.

Ikiraro kirimo amatungo aho kigiye gifite ibiti bihagaze ndetse n'ibindi bitambitse ku ruhande bita imbariro, aha ngaha mo imbere harimo itungo bita ingurube, aho nazo ari kimwe mu nyamaswa zitanga amafaranga.

Ikiraro cy'ingurube, kirimo ingurube ndetse ikaba iri konsa utwana twayo, ndetse hakaba harimo imwe ariyo yabyaye, ikiraro irimo kigizwe n'imbaho bagiye batera, gusa birasa nkaho cyenda gusaza.

Agace karorewemo ingurube ndetse zisa neza cyane, bigaragara ko bazitaho bakaba banazoza. Ni ibibwana bikiri bitoya, bigenda bikura ukurikije n'igihe biba bimaze, biba bimaze nk'amezi atatu.

Itsinda ry'abagore ndetse ni bo biganjemo cyane hakaba harimo n'abagabo bakaba bakora umwuga wo korora, aha ngaha harimo amoko y'ingurube menshi harimo amashashi ndetse n'imfizi, aba ngaba ni aborozi b'ingurube.

Umugabo uhagaze, yambaye boti z'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, yambaye agakoti, afashe ihene yashyizemo akagozi mu ijosi arimo kugenda yerekeza mu kiraro, ndetse ahagaze iruhande rw'inzu ye.

Inka iri mu kiraro ndetse iri kumwe n'akanyana kayo zirimo kurisha. aha ngaha ni bwa buryo bugezweho aho abantu baba barimo kororera mu biraro, ni inka ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umweru n'umukara.

Ahantu harimo ibiraro by'inka ndetse zikaba zirimo kuririsha, ku ruhande hakaba hariho abantu bagera kuri batanu, hanyuma bakaba barimo kugenda bitegereza inka ukuntu zimeze, bareba niba zimeze neza, inka zirimo kurya ubwatsi.

Umwana muto w'umuhungu urimo kwitegereza ihene ebyiri ziziritse, arimo kuzireba. Hirya hariho ikiraro cyubatse kikiri gishyashya kitaratangira kugeramo amatungo.

Umugore ufite ihene zigera kuri ebyiri, nta nkweto yambaye, yambaye ibirenge. Ndetse kandi akeneye igitambaro ndetse arimo kugenda akurura ihene agiye kuziragira, uyu nguyu ni umworozi.

Ikiraro kirimo inyamaswa cyangwa se amatungo yo mu rugo, yiganjemo ingurube ifite ibyana byayo bigera kuri bine, aho bishobora gukoreshwa mu gukora umwuga wo korora.

Agace kari ahantu mu cyaro aho harimo inkoko zimwe ziri hasi, izindi ziri hejuru ziri ku duti, ni bwa buryo bwo korora ariko bitari ibya kinyamwuga, aho abaturage bifitiye inkoko zimwe na zimwe ziba mu nzu.

Umuntu ukora akazi ko korora. Gusa, aracyari mutoya, afite ihene arimo kugenda ashimashima, nubwo igaragara nkaho ari ihene ntabwo ariyo kuko, n'inka ikiri ntoya imaze igihe gitoya ibyawe.

Ihene iziritse ahantu ha yonyine hakaba hariho ahantu hari inzira abantu bashobora kunyuramo ndetse ni ihene ifite amabara agera kuri atatu ari igituma isa neza cyane ndetse irimo kugenda ireba hino.

Agace karimo inka zigera kuri esheshatu, zirimo kugenda zikusanyirizwa hamwe, hariho abashumba bafite inkoni barimo kugenda bazishorera, bazijyana mu byerekezo bigiye bitandukanye.

Ikiraro kirimo inka imwe irimo kurisha bayihaye ubwatsi ndetse irimo kugenda irisha gake gake bigaragara ko ishonje, aha ngaha nibwo buryo bwo kororera mu biraro.

Umugabo uri kumwe n'umugore we ndetse n'umwana we, bafite ubwatsi barimo kugenda bagaburira inka yabo, ku ruhande kandi boroye inkoko, inka zo ziri mu biraro, ndetse kandi bari gutanga ubwatsi bw'urubingo.

Ahantu hari itungo bita ingurube. Inyuma yaryo hakaba hariho ibiraro ari na ho riba ryorowe mu buryo bugezweho. Nubwo ibiraro ari bitoya ariko boroye mu buryo bugezweho bwo kororera mu biraro.

Inkoko irimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, izi ngizi ni za zindi zitera amagi kuko umuntu uyifite abasha kuba yarya umureti, akarya amagi cyangwa se agaha abana be ku magi.

Abantu bagera kuri batatu, hariho umugore umwe, hakabaho umugabo ndetse n'umwana, bafite inka ndetse barimo kugenda bayikora mu bice bigiye bitandukanye, iracyari ntoya uyirebye uri kure wagira ngo ni ihene kubera ikiri ntoya.

Ubworozi bw'ingurube aho ari ikiraro kirimo ingurube ndetse irasa neza kuko barayoza ndetse kandi iri ahantu hashashe neza, hariho n'umuntu ushinzwe kuyitaho kugira ngo imere neza.

Umugabo n'umugore b'aborozi barimo kugenda bakora ku kiraro cyabo kirimo inka, ndetse barimo kugenda bareba niba kimeze neza, bari kwitegereza bareba niba ibiti bifashe kino kiraro bimeze neza.

Ihene ebyiri zirimo kurisha zifite ibara ry'umukara ndetse hagati harimo ibara ry'umweru, izi zombi zigeze igihe zo kubyara, zirabura igihe gitoya ngo zibyare kuko zifite mu nda hanini.

Ahantu hari ingurube ziri hanze, zirimo kugenda zirisha, zorowe mu buryo butagezweho, kuko abandi bororera mu biraro, zo zikaba zibereye hanze, zirimo kugenda zizerera.

Ubworozi bw'inkoko, aho hari inkoko z'amoko agiye atandukanye zirimo kugenda zifata n'ibyo kurya, aha ngaha zorowe muri bwa buryo bugezweho aho zigenda zigaburirwa n'umuntu ubishinzwe.

Umworozi arimo kugenda areba inka ye arimo kugenda ayikorakora kugira ngo yumve ko imeze neza, arebe ko nta kibazo ifite, ari nako agenda ayitaho kugira ngo arebe ko imerewe neza.

Umugore urimo kugaburira amatungo n'ihene ye arimo kugenda ayihereza ubwatsi, ntabwo aho iri, iri mu kiraro ahubwo ku ruhande hakaba hari inzu irimo kubaka bigaragara ko ari bwo imaze igihe gito yubatswe.

Ikiraro kirimo inkoko nyinshi, aha ngaha ni bwa buryo borora mu buryo bugezweho, aho harimo inkoko za zindi za kizungu zitera amagi, aha ngaha ni ahantu hanini cyane kuko uyu ni umushinga ukomeye.

Umwana mutoya urimo kugaburira inka arimo kugenda ayihereza ubwatsi, iri ahantu mu kiraro gisa naho cyangiritse gikeneye kuba cyasanwa cyangwa se kikaba cyakitabwaho, uyu mwana aracyari muto

Ikiraro kirimo inka zigera kuri ebyiri, harimo imwe nini ndetse n'akana kayo, aha ngaha imaze igihe gitoya ibyaye kuko uyu mutavu ukiri mutoya ndetse kandi uraryamye hasi.

Ingurube ifite izuru rirerire, iri ahantu mu kiraro, ihagaze ahantu basuka ibyo kurya, iri ahantu mu kiraro, ifite amatwi maremare n'urwoya rwinshi, iracyari ntoya, ntabwo iragera igihe cyo kuba yakwima.

Inka irimo kurisha ifite ubwatsi mu kanwa ndetse irimo kugenda iwuzamura ishyize hejuru, ifite akantu k'akabeta kari ku gutwi kagaragaza ko yabaruwe ndetse kandi aha ngaha yororewe ni mu kiraro.

Ahantu hari igitangire barimo kugenda bubaka hariho amatafari, ku ruhande hakaba hariho itungo bita ingurube. Aha ngaha hashobora kuba barimo kubaka ikiraro, iri tungo rizajya bibamo kugira ngo ritazajya riba mu nzu.

Umugabo wambaye podaboda ndetse n'ipantaro y'itiriningi, ateruye akagurube gafite urwoya rwinshi ndetse gafite n'amaga yarakishe, aka kagurube kararwaye gafite amaga mu ruhande rwo hejuru cyangwa se mu mugongo.

Urutoryi rufite imbuto zigiye zitandukanye nyinshi cyane, aha ngaha rurasasiwe ndetse rumeze neza bigaragara ko rwitaweho, aha ngaha ni uburyo ugaragaza umusaruro ushimishije cyane.

Ibigori byeze bagiye basuka hasi ndetse bimaze gusarurwa, barimo kugenda babigeza ku bantu bashaka kubigura kugira ngo bagende batoranya buri wese icyo ashaka, kugira ngo ajye kugikoresha agitegure nk'ifunguro.

Akarima kari ahantu mu gishanga harimo n'amazi menshi agenda ajya mu bice bigiye bitandukanye by'uwo murima ku buryo utapfa kubura amazi mu gihe cyane cyane k'izuba aho baba bisaba ko abantu bavomerera imyaka.

Abagore bafite amabase arimo umusaruro w'intoryi, umwe muri bo afashe urutoryi arimo kurwitegereza, inyuma hakaba n'abandi barimo kugenda bareba. Ni kwa kundi abagore yubumbira mu makoperative.

Akayira karimo kunyuramo amazi, ndetse hakurya hahinzeho amateke, akaba ari bwo buryo bakoresha bari kuhira imyaka, kugira ngo ibashe gukurura amazi mu gihe cy'impeshyi cyane cyane igihe izuba ryavuye cyane.

Ikimera kiriho imbuto zigiye zitandukanye, zifite ibara ritukura ndetse kiraziritse ku buryo kidashobora kugwa. Aha ngaha ni urusenda ruhinze rufite ibara ritukura. Ndetse kandi ruziritse ku giti.

Umurima uhinzemo ibitunguru bigiye biteye ku murongo, hakurya hariho n'ubundi butaka buhinze butarimo igihingwa, barabuteguye igisigaye ni ukugira ngo nyiri'umurima aze gushyiramo ibihingwa cyangwa se ibimera.

Umurima uhinzemo imbuto ndetse ku buso munini, izo mbuto zose zikaba zisasiye, hakurya hakaba hariho akazu kubatse, ni twatundi bashyiramo ibiti barimo kugenda borora, ndetse kanasakaye.

Umurima w'ibirayi biteye ku buso burebure. Hakaba harimo ibirayi bimaze kugira uruyange. Harabura igihe gitoya ngo bisarurwe. Bikaba biteye ku buso bunini ndetse bikaba biteye ku mirongo. Aha ngaha akaba ari abahinzi babigize umwuga.

Ahantu harimo amoko y'imbuto agiye atandukanye bagiye batera ndetse aha ngaha hari n'ibiti bigiye bitandukanye n'ibikiri bitoya baba borora kugira ngo bazabitere ahantu runaka, harasakaye ku buryo izuba ritapfa kuhagera uko ryiboneye.

Akarima karimo imbuto zigiye zitandukanye ziganjemo ibinyomoro biri mu bihoho, ha handi bororera ibihingwa kugira ngo babashe kubitera mu bice bigiye bitandukanye ndetse kandi aha ngaha birasakaye ku buryo nta mvura nyinshi cyangwa izuba rishobora kubigeraho.

Umuhinzi w'urusenda aho rwatangiye kuzamo ibitumbwe no kugenda rukoraho rurashishe cyane rwazanye imbuto ku buryo mu minsi mikeya zari rumaze kujya ku isoko, akaba yabasha kubona amafaranga mu buryo bushoboka.

Ahantu hamanitse ibigori ni byabindi biba bimaze kwera byarajyanywe ahantu bikusanyirizwa kugira ngo babyanike; nibamara kubyanika bimaze kuma bijyanwe mu nganda bibe byatunganywa havemo akawunga cyangwa se ifu y'ibigori.

Umugabo wambaye nka veterineri cyangwa se muganga w'amatungo, bakaba bamuzaniye inka bayiziritse ahantu hari igiti, hanyuma ba nyir'inka barimo kugenda bayifata bayegereza uyu mugabo kugira ngo abashe kuyikoraho.

Abasore bagera kuri batatu ndetse n'umukobwa umwe barimo kugenda bafashanya, umwe yambaye isarubeti y'umuhondo akaba asa n'umuntu w'umwubatsi, bakaba barimo kugenda bafashanya mu kubaka iki kiraro. Gusa urebye neza ameze nk'umuntu urimo kuvura itungo.

Umugabo wambaye bote, ndetse yambaye n'isabeti n'ingofero mu mutwe, afashe inka arimo kugenda ayasamura, ni kwa kundi ba muganga b'amatungo baba barimo kugenda bahereza imiti inka kugira ngo babashe kuzikingira indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo uhagaze mu rwuri yambaye isarubeti ndetse uyu nguyu arashobora kuba ari umuveteneri cyangwa se umuganga w'amatungo, yambaye ingofero y'umukara arimo kugenda yitegereza inka.

Umugabo wambaye uturindantoki ndetse ameze nka babandi b'abaganga b'amatungo, ari kumwe n'undi mugore urimo kumufasha inka kugira ngo bayihe imiti kuko isa naho itameze neza, ayikozeho ku murizo ndetse kandi umumama na we arayifashe.

Umugabo w'umusaza wambaye ingofero akaba yambaye ikoti, arimo kwitegereza imbwa ziryamye hasi. Imwe isa nkaho ari nzima, indi na yo yagaramye cyane imeze nkaho yishwe. Barimo kugenda bazitegereza.

Ahantu hari inka nyinshi zakoranyijwe ziganjemo izifite amabara y'inkwero n'umukara, hakaba harimo n'izindi zigiye zitandukanye aho baba bazikusanyi hamwe kugira ngo babashe kuzikama ndetse kuba bazitaho.

Itungo barimo kuvura rikaba riri kumwe na muganga ubizobereye w'amatungo, yafashe inka arasa naho ayibaga mu ruhande ifite ikibazo, hanyuma arimo kugenda ayidoda ari nako ba nyir'inka barimo kugenda bamufasha.

Abasore babiri barimo kuganira, umwe yambaye itaburiya undi na we aricaye arimo kugenda amwireka, uyu nguyu yiga mu ishuri rikuru ry'imyuga, muri kaminuza ya Huye.

Urubwa rufite ibitwi binini cyane birusumba, ifite ibyiso bireba nabi, ikagira n'urunwa na rwo rw'umukara, iri kureba nabi nk'iri kureba inyama barimo kuyishumereza yabuze uko izifata.

Umugore uhagaze imbere ye hariho imbwa arimo kugenda ayikoraho gahoro gahoro. Ifite ibara ry'igitamu ndetse ku ruhande hariho n'undi mugore uhagaze urimo kwitegereza ibyo arimo gukora.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye, ikagira n'umunwa usongoye, ikaba iri ari ahantu hari uduti dufite indabo, ndetse izi ni za nyoni zikunda ahantu hari uruyange aho ziba zirimo kugenda zinyunyuza ubuki.

Inyamaswa ebyiri, imwe yaryamye ndetse n'indi iricaye ishyize umutwe hejuru, inyamaswa zo mu rugo bita imbwa. Imwe ni iy'umweru, indi na yo ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ay'igitamu.

Akanyamaswa gafite amasoso manini kayaturumbuye karimo kugenda kareba hejuru ndetse gafite n'udutwi dutoya, karareba nk'igihunyira kuko nicyo kigira amaso manini ameze gutya kandi bikunze kureba mu masaha ya n'ijoro gusa.

Imbwa ibyibushye cyane ndetse ifite amabara meza n'umubiri utoshye. Ifashe urukwavu mu ntoki igiye kurya. Iyi ngiyi igiye kurya inyama kuko imbwa nayo ni imwe mu nyamaswa zirya inyama.

Inyamaswa zazindi ziboneka muri Parike National, iyi ngiyi imeze nk'inkuge cyangwa se akaba ari mu bwoko bw'inkende, iyi ngiyi ikaba yihishe mu byatsi, ifite ibara ry'umukara ndetse mu maso yayo hajya gusa n'umweru.

Inyoni iri hejuru mu giti ifite amasunzu ndetse ihagaze ku ishami, aha ngaha irimo gushaka kuguruka, ifite amabara agiye atandukanye ubururu, umukara ndetse n'ibara ry'umuhondo ku munwa wayo.

Utunyamaswa dukunze kuboneka mu mashyamba ndetse n'ahandi hantu hahurira abantu benshi mu mago, batwita inkende; zikunda imineke cyane ku buryo igihe ushobora kuba ufite icyo kurya cyangwa se ufite imineke udashobora kuyicika.

Inyoni yasamye irimo gusakuza ifite amabara y'umukara ikagira n'ibara ry'umweru hagati mu ijosi ndetse no mu nda hasi, bakaba bayita igikoni kuko gifite amabara abiri umweru ndetse n'umukara, iki ni igikona.

Inyamaswa ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ubudomagure, ndetse ishyize umurizo hejuru, izi ngizi ni zazindi ziboneka mu cyanya cy'Akagera, umuntu ashobora kuzibona igihe yagiye kuhasura.

Inyamaswa ebyiri zikunze kuboneka muri Parike Nasiyonali y'Akagera bita imbarage, zifite amabara abiri meza arimo ubururu ndetse umukara n'umweru ni byo bigize inyamaswa.

Agatubu gahagaze ku kimera, aka ngaka kadakunze kuba ahantu hari amazi, kuko kaba gafite umubiri worohereye, ndetse kandi tugira amabara agiye atandukanye; hari utwo ushobora kubona dusa icyatsi, umukara ndetse n'andi mabara.

Inyamaswa zigera kuri eshatu zihagaze mu buryo bumwe zishyize umutwe hejuru ndetse n'amatwi ziyabanguye, zirimo kwitegereza mu cyerekezo kimwe, aha ngaha ni za nyamaswa ziboneka muri Parike Nasiyonali y'Akagera, bita impongo.

inkima irimo kugenda izenguruka hejuru mu giti, ni imwe mu bwoko bw'inkende ishobora gusimbuka cyangwa se ikagenda ifashe ku mashami, kurira ntibijya biyigora, gusa ngo iyo umunsi wageze ibiti biranyerera, iyo umunsi w'inkende wageze.

Inyamaswa zazindi zo ku gasozi bita iparage; kuko zifite amabara agiye atandukanye atuma ziba nziza cyane. Aha ngaha zifite amabara y'umweru ndetse n'irindi ry'umukara. Aha ngaha ziba ni muri parike nasiyonare y'Akagera.

Akanyamaswa kameze nk'inkende kari hejuru ahantu hari uruzitiro karagaramye ndetse nk'umuntu uryamye kasize akaboko kuruhande gaterera amaguru hejuru karimo kugenda kumva umunyenga hejuru kuruzitiro.

Akanyamaswa bita inguge karimo kugenda kitegereza abantu, kaba kameze nk'inkende ndetse kandi gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mu muhogo, ari byo bituma itandukana n'inkende zisanzwe.

Inyamaswa iboneka muri parike national y'Akagera, iyi ngiyi bayita "ingwe". Ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ubudomagure yakorwagamo umwenda wa cyami mu gihe cya kera.

Inyamaswa ebyiri zo ku gasozi zazindi ziboneka mu cyanya cy'Akagera, zirimo kugenda zireba, imwe ku ruhande rumwe n'indi kuru rundi ruhande, ndetse zifite amabara atandukanye yiganjemo umukara n'umweru.

Inyoni ifite umurizo muremure ndetse n'inyoni y'umukara irimo kureba hejuru, ihagaze ku gashami k'igiti iri guhindukira. Aha ngaha ni kimwe mu byiza nyaburanga bishobora gukurura ba mukerarugendo.

Ishyamba ririmo inyoni ifite amabara meza, irahagaze, iri kureba hejuru, iri mu ishami ry'iki giti. Ahangaha ziriya nyoni zikunda kuboneka ahantu hariho za parike ndetse no mu mumashyamba.

Agasimba bita uruvu kakaba gafite amabara agiye atandukanye yiganjemo icyatsi uko rugenda rwihinduriza bitewe n'ahantu rugeze rugafata ibara ryayo. Uru ruvu rurasa n'ibara ry'icyatsi.

Inyamaswa bita ingagi, iyi ngiyi yinjiza amafaranga menshi cyane mu Rwanda cyane cyane mu bintu bijyanye n'ubukerarugendo, izi ngizi ziboneka muri Parike y'Ibirunga, cyane cyane mu Majyaruguru y'u Rwanda.

Inyamaswa ifite uduhembe tureture, ndetse inyuma hakaba hariho izindi zigera kuri umunani, zikaba zifite amabara agiye atandukanye higanjemo umukara ndetse n'umweru.

Inyamaswa ifite ijosi rirerire, iyi ngiyi bayita twiga, ndetse kandi ishobora kuba ihagaze ikaba yarisha hejuru mu giti, kuko ifite umutwe cyangwa se ijosi rirerire ku buryo ibasha kuba yarisha mu giti.

Inyamaswa iteye amayobera, ifite amatwi maremare ndetse n'ubwoya burebure, aha ngaha kandi irasa n'ibara ry'umukara ndetse irimo kugenda ireba mu bice bigiye bitandukanye

Akanyamaswa gafite umurizo muremure kameze nk'urukwavu, aho bitandu ni uko gafite umurizo muremure kandi ubyibushye ugasumba, aka ngaka kaboneka muri parike nasiyonari y'Akagera, ni ho hantu ushobora kugasanga igihe wayisuye.

Inyamaswa bita inkima ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru mu ijosi, iri ahantu hakikijwe n'ibyatsi bitoshye ndetse izi ngizi ziboneka mu maparike ndetse no mu mashyamba agiye atandukanye.

Inyoni ifite amabara agera kuri atatu, hariho rimwe ry'umukara, hakaba harimo n'irindi bara ry'umutuku, ifite umunwa muremure ndetse kandi usongoye, irimo kwitegereza, ndetse ahantu iri iratekanye.

Utunyamaswa tubiri, aho kamwe gateruye akandi, imwe ifatishije umurizo ku cyuma indi na yo ikiri ntoya igafatisha umurizo ku wa nyina, zihagaze ahantu ku nzu hejuru, aho hakurya hariho indabo zigiye zitandukanye.

Inyoni nini ifite amabara agiye atandukanye umweru ndetse n'umukara, iracyari ntoya, iki ngiki ni igikona ndetse kikiri gitoya. Aha ngaha kiri, kiri mu bushorishori bw'agati aho kimeze neza.

Utunyamaswa twinshi tumeze nk'amahene ariko si yo kuko izi ngizi ni impongo ziboneka cyane cyane muri parike National y'Akagera, iyo umuntu agiye kuzisura ashobora kwishyura amadovize hanyuma bakaba bamutembereza.